Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, baracye cyane mu nzu isizwe amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama, bicaye ku murongo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bari ahantu hamwe baracyeye cyane, imbere yabo hari ameza nziza y'umweru iteretseho amazi yo kunywa na za murandasi, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, bambaye amakote y'ubururu n'imikara, bicaye ku murongo ku ntebe zijya gusa umweru, higanjemo abagore n'abagabo bisa nk'aho bari mu nama.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko karuvati ya rujeborodo isaha y'umukara ku kuboko ari kuvugira muri mayikorofone birashoboka ko ari kuvuga ibyo uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro rukora.

Uyu ni umuhanda wo mu ubwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru, hirya gato hahagaze ikinyabiziga cya moto kiriho umugabo wambaye ijire y'umuhondo, hakurya hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Imbere yaryo ubusitani burimo indabo zitandukanye yaba iz'umuhondo, n'iz'icyatsi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, munsi gato hari abantu ndetse n'ubusitani bwiza burimo indabo zitandukanye yaba iz'umuhondo n'iz'icyatsi, hirya hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire rimanitse, ryuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, imbere yaryo ubusitani burimo indabo z'umuhondo ndetse n'icyatsi bitanga akayaga n'amahumbezi.

Iri ni ipoto rirerire ryuzuyeho insinga zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ikikijwe n'ibiti byinshi n'indabo z'umuhondo n'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka na moto, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano z'ubururu n'umweru, bisa nk'aho ari abanyeshuri, higanjemo abakobwa n'abahungu, imbere yabo hari undi uhari, ufite igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragenda mo ikinyabiziga gitwara imizigo imodoka y'umweru hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usa nk'ushaje, haragendamo ibinyabiziga bitandukanye, nka moto n'imodoka, ndetse n'abantu bahari, ku ruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara. Haranyuramo ikinyabiziga kinini cy'imodoka gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange; cy'umweru n'ubururu n'ibirahure. Imbere yacyo hari umuntu uri kuhagenda.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Aya ni amazu ari ahantu hamwe, amenshi muri yo afite amabati asize amabara y'umutuku, ndetse n'umweru, akikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye ahongaho bose.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umuhondo hagati ndetse n'imyeru, ku mpande haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.